Hano ni mu nzu mberabyombi y'ihoteli ndetse hakaba harimo haraberamo inama yo guhanga udushya mu Rwanda.

Aha ngaha hagaragara abantu bicaye imbere y'ameza yifashishwa mu nama, ndetse imbere yabo hari amazi yo kunywa, mu by'ukuri aba bantu bashobora kuba bari mu nama.

Aha ngaha hicaye abantu benshi, bagiye batandukanye, ndetse mbere yabo hari ameza, n'amazi yo kunywa, bamwe bafite mudasobwa, hari n'abafite amakaye yandikamo imyanzuro, muri make bameze nk'abari mu nama.

Aha ngaha hari abantu benshi bicaye ndetse mu bigaragara bari mu nama, bafite aho bandika imyanzuro y'inama ndetse yewe bakaba bafite n'amazi yo kunywa.

Ahangaha hicaye abantu mu ntebe ndetse imbere bagiye bafite indangururamajwi ndetse hakaba hari n'amazi mubigaragara bashobora kuba bari mu nama.

Aha ni abantu bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza, ku meza hariho amazi ndetse hari n'abafite mudasobwa hakaba n'abafite amakayi. Mu bigaragara bari mu cyumba k'inama.

Ahangaha ni mu nama ndetse aha imbere hakaba hari umugabo ufite indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa cyanditseho ko bari mu nama y'uburyo abantu bashora imari mu karere ka Nyagatare.

Aha ngaha hari abantu bicaye ndetse bakaba bicaye nk'abari mu nama. Bakaba imbere hari amazi, bakaba bafite n'amakayi ndetse n'amakaramu handikwa imyanzuro, hakaba hari n'icyuma cyifashishwa mu kwerekana amashusho cy'umukara.

Ahangaha uko bigaragara n'icyumba kinini kiberamo inama hakaba hinjiyemo n'abantu benshi ndetse aha imbere banafite impapuro zandikwamo imyanzuro y'inama

Aha ngaha ni mu cyumba kiberamo inama ndetse hakaba hicayemo n'abantu benshi, harimo abagabo n'abagore ndetse bakaba bafite n'amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo imyanzuro yavuye mu nama, hakaba n'abafite mudasobwa.

Aha ngaha ni mu nzu mberabyombi, ibigaragara hicaye abantu benshi ku buryo buzengurutse, imbere bagiye bafite amazi meza y'Inyange, bashobora kuba bari mu nama.

Aha ngaha ni abantu, ubwoko butandukanye harimo abagabo abagore ndetse bakaba bicaye imbere y'ameza, mu bigaragara bashobora kuba bari mu nama.

Aha uko bigaragara, hari abagabo n'abagore bicaye bameze nk'abari mu nama mu cyumba kiberamo inama. Bakaba bafite amazi ndetse n'umutobe mwiza w'Inyange. Abantu bicaye mu nama kandi uko bigaragara bimeze neza baratekanye.

Ahangaha hicayemo abantu benshi abagore ndetse n'abagabo bakaba bicaye mu buryo buzengurutse, ndetse bameze nk'abari mu nama yo kwiga ku kintu runaka bicaye mu cyumba mberabyombi.

Aha ngaha ni ahantu hahagaze abantu benshi ndetse bamwe bicaye imbere, abandi barahagaze, bigaragara nk'aho bari gufata ifoto y'urwibutso kuko bavuye mu nama yibandaga ku buzima bwo mu mutwe.

Aha ngaha ni abantu benshi bicaye mu ntebe, ndetse bameze nk'abari mu nama, hakaba harimo abagore, abagabo, ndetse hakaba hari n'abandi babiri bashinzwe umutekano.

Aha ngaha hicaye abantu benshi mu nzu mberabyombi ndetse bameze nk'abari mu nama, aho imbere ho hicaye abagore babiri bambaye indorerwamo z'amaso.

Aha ni abantu bicaye ndetse aha hakaba hicaye umugore ibigaragara akaba ari umusilamukazi. Imbere ye hari amazi ndetse bashobora no kuba bari mu nama nkuko bigaragarira amaso.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama. Hicayemo abantu benshi, harimo abagabo n'abagore, ibigaragara barakurikiye ndetse bakaba bafite n'amakayi barimo bandikamo imyanzuro y'inama.

Aha ngaha ni mu nzu y'inama bicaye abantu harimo abagabo ndetse n'igitsina gore umwe, bakaba bafite impapuro baribwandikeho imyanzuro y'inama ndetse hakaba hari n'indangururamajwi.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bafite mudasobwa bamwe abandi imbere yabo hari amakaye ndetse bose bakaba bafite n'amazi yo kunywa, bashobora kuba bari mu nama yiga ku bintu bigiye bitandukanye.

Ahangaha ni mu nama muri iyi nama hari abicaye, hakabari mpahagaze imbere mfite indangururamajwi umeze nkaho ari utanga imbwirwaruhame.

Hano ni mu nzu nini imenyerewe nk'izitwa inzu mberabyombi zikunzwe kuberamo inama ndetse n'ibindi, hicayemo abantu benshi higanjemo abagabo n'abagore, ndetse mu bigaragara bakaba bameze nk'abari mu nama.

Aha ngaha hicaye abantu batatu abagabo babiri ndetse n'umwe w'umugore, imbere yabo hari amazi meza yo kunywa ndetse na mudasobwa ndetse akaba ari umugabo bigaragara nk'aho ari kubaha imbwirwaruhame.

Abangaba ni abantu bicaye bari mu nama ndetse bakaba imbere aho hari ameza yiraburaba ndetse n'amazi meza yo kunywa bigaragara barimo barareba imbere bateze amatwi.

Hano hari abaturage benshi bahateraniye ndetse bakaba bicaye mu ihema ndetse iri hema rikaba ritatswe n'amabara agize ibendera ry'igihugu cyacu u Rwanda.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama hicayemo abagabo ndetse n'abagore ndetse bakaba bamwe bafite mudasobwa, abandi bakaba bafite impapuro zandikwaho imyanzuro y'inama.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama bamwe baricaye ndetse iki cyumba kikaba kisanzuye, hakaba imbere hari igikoresho kifashishwa mu kwerekana amashusho yigwaho muri rusange, akaba hari n'umugore ufite indangururamajwi.

Aha ngaha hicanye abantu batandukanye ndetse imbere yabo hari indangururamajwi, hakaba hari n'amazi meza ndetse n'umutobe ukorwa mu mbuto, ibigaragara bari mu nama.

Ahangaha mu bigaragara hica abantu ndetse imbere hari n'icyuma cy'ikoranabuhanga cyerekana amashusho. Ubona hahagaze umugore bigaragara nkaho ariwe uyoboye inama.

Ahangaha nta hantu hateraniye abantu benshi harimo abakobwa ndetse n'abasore, urubyiruko bakaba aribo biganje bikaba bigaragara nk'aho baje mu nama.

Ahangaha ni mu nama yateraniyemo abantu benshi. Ndetse aba bari imbere bo bigaragara nk'aho barimo barandika imyanzuro ishobora kuba yavugiwe muri iyi nama yabereye mu cyumba cy'inama.

Aha ni abantu bicaye imbere ya mudasobwa bakaba barimo barayirebamo, bafite n'amazi yo kunywa ndetse bigaragara ko ari nk'ikintu gifite umumaro bari kureba.

Aha ni ahantu hateraniye abantu benshi, ndetse bakaba bicaye mu ihema, imbere hakaba ari uw'igitsina gore bagaragara nk'aho ari we urimo urabagezaho imbwirwaruhame bafite indangururamajwi.

Hano ni mu nzu y'inama hicayemo abantu benshi, harimo abagabo n'abagore ndetse bamwe banafite amakaye yo kwandikamo uko imyanzuro yagiye ifatwa ndetse bamwe bakaba bafite n'amazi yo kunywa meza.

Aha ngaha ni ahantu hahuriye imbaga nyamwinshi y'abantu. Hakaba higanjemo abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko. Aha ngaha hakaba hari umuntu uhagaze ufite indangururamajwi bigaragara nkaho ari kubaha imbwirwaruhame.

Aba ni abantu bitabiriye mu nama kuko bicaye mu cyumba cy'inama, mbere yaho hari indangururamajwi ndetse n'amazi. Hakaba hicaye umugore, iburyo bwe hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'impuzankano y'abashinzwe umutekano.

Ahangaha ni mu nzu mberabyombi yateraniyemo abagore n'abagabo ndetse bicaye bikaba bigaragara nk'aho ahantu habereye inama.

Ahangaha hicaye abaturage mu bigaragara bakaba baje mu nama ndetse imbere hakaba hicaye n'abandi bantu baje mu nama.

Iyi ngiyi ni nyubako iberamo inama ndetse hakaba hari abayirimo imbere yabo hari abafite mudasobwa abandi amakaye ndetse hose hagiye hariho n'indangururamajwi, inyuma hakaba hari umugabo ufite igikoresho kifashishwa mu gufata amashusho, akaba arimo arafata amashusho n'amajwi.

Aha ngaha hari abantu babiri ndetse aha ngaha hari umuhungu wambaye indorerwamo z'amaso, akaba ari imbere ya mudasobwa, akaba arimo aranywa n'icyayi.

Urubuga rw'ikigo cy'Igihugu gitwara abantu ndetse n'ibintu mu kirere, rukaba rurimo rurerekana ibintu bigiye bitandukanye.

Hano ni ahantu hakorerwa ubucuruzi, ndetse hakaba hahagaze umugabo wo mu muryango, nk'uko ibyapa bihererekana bashobora kuba batanga ubufasha bugendanye no ku mafaranga ndetse n'ibigo by'imari n'iby'itumanaho.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi. Harimo harerekanwa uburyo hakiririndwa icyorezo cyari cyarateye mu myaka yashize hirindwa gusuhuzanya, hirindwa guhererekanya amafaranga ndetse no kwambara agapfukamunwa.

Ahangaha ni umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba ari imbere ya mudasobwa ndetse iyi mudasobwa ikaba iri ku rubuga rwo kuri murandasi rwitwa Irembo, urubuga rwifashishwa mu kwaka ubufasha ku bigendanye na Leta.

Ahangaha hari umunara muremure cyane wifashishwa mu ihuzanzira ya za mudasobwa n'amatelefoni agendana, kugira ngo bibashe gukoresha itumanaho uburyo bw'ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ndetse bakaba barimo barerekana uburyo umuntu yamenyekanisha imisoro y'ukwezi yinjije akoresheje terefoni igendanwa, hakaba hari mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri n'itatu.

Aha ni ku rubuga rwo kuri murandasi, rukaba ari urw' ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu rwanda, bakaba berekana amahirwe ahari yo gushorwamo imari ahatandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare, bakaba barimo barerekana ibikorwa bagiye bakora muri aya mezi arimo aragara aha ngaha umwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri.

Aba rero urabona ko bambaye amakarita ndetse n'imyenda, bisa n'aho hari inama bari bitabiriye yiga ku bibazo runaka biba byugarije abaturage cyangwa biba byugarije igihugu, biterwa n'ingingo nyamukuru ihari.

Iki ngiki ni ikiranganteko, cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ndetse no kuyikusanya.

Iyi ngiyi ni inyubako ndetse inyubako ikaba iriho ibyapa byerekana ko hakorera ubucuruzi bw'ibigo by'imari ndetse n'iby'itumanaho mu kwakira no kohererezanya amafaranga mu buryo bworoshye.

Uru nguru ni urubuga rwo kuri murandasi, ikigo cy'igihugu gishinzwe gusoro amahoro, aha ngaha nk'uko hagaragara umukobwa uri kuri mudasobwa ufite amazi babyerekana ko arimo arishyura imisoro.

Aha ngaha ni akazu kubatse kazengurutse nk'uruzitiro, ndetse n'imbere hakaba harimo umunara ugizwe n'amabara y'umweru n'umukara, wifashishwa mu ihuzanzira, mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha ngaha hariho ishusho y'inyubako ndende ndetse bikaba byaratangiye ku rubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda, bakaba bashishikariza abantu gushora imari mu Rwanda kuko ari byiza kubera umutekano twibitseho.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi. Rukaba ari urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza, hano bakaba berekana ikintu iki kigo gishinzwe ndetse n'umurongo wifashishwa w'ubuntu mu kubahamagara uramutse ugize ikibazo.

Aha ngaha ni ku rubuga rw' irembo ndetse uru rubuga ruka rwifashishwa mu gusaba ubufasha kuri serivisi zitandukanye za leta, hano bakaba barimo barerekana uburyo hasabwamo ubufasha.

Uyu nguyu ni umugabo ufite telefoni igendanwa mu ntoki, telefoni ikaba iriho urubuga rw'irembo rutangirwaho serivisi za leta.

Aha hahagaze abantu batatu b'igitsina gabo ndetse hakaba hari uri hagati ufite terefoni, bikaba bigaragara ko hari nk'ikintu arimo arabasangiza cyerekeranye n'ikoranabuhanga.

Hano turi imbere y'inyubako, inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba higanjemo ibigo bitanga ubufasha bigendanye n'imari. Harimo haragendwamo n'imodoka ntoya ndetse hirya hahagaza ipikipiki ndetse hari no kunyura urujya n'uruza rw'abantu.

Ni ku rubuga rwo kuri murandasi, rufashwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda hakaba hariho, uburyo umuntu yiyandikisha iyo ashaka gutangiza imari mu Rwanda, yifashishije imyirondoro ye n'umubare w'ibanga.

Aha ngaha ni ku nzu y'ubucuruzi. Ikaba itangirwamo ubufasha butandukanye bwibanze ku bigo by'imari ndetse n'iby'itumanaho mu kwakira, kohereza ndetse no kubikuza amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga.

Aha ngaha hari igikorwa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ndetse hakaba hariho handitseho ngo garagaza impano yawe utsindire amafaranga miliyoni y'amanyarwanda mu gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa n'izindi mpano.

Umuntu afite inziramugozi mu kiganza kimwe ndetse ikindi kiri gukora kuri mudasobwa, akaba arimo arakoreraho ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibikorerwa kuri murandasi.

Aha ngaha ni ku rubuga rukorera kuri murandasi rw'irembo, rukaba rutanga ubufasha ku bigendanye n'ibibazo byo muri leta, aha ngaha bakaba barimo baraka icyemezo cy'uko umuntu yaba yarafunzwe cyangwa se atarafunzwe.

Aha ngaha hahagaze abantu, ndetse hakaba hari n'ufite icyuma gifata amashusho y'ukuri, akaba ameze nk'ukorera ikigo cy'itangazamakuru runaka, akaba arimo arashaka amakuru.

Iyi ngiyi ni inzu y'ubucuruzi ndetse hakaba hariho n'ibyapa byerekana ibyo bahakorera, harimo gutanga ubufasha mu bijyanye n'itumanaho, kwakira ndetse no kubitsa no kohereza amafaranga, hifashishijwe ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi, rukaba rukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, hano bakaba barimo barerekana intego n'ubutumwa bw'iki kigo.

Ni ku rubuga rukorera kuri murandasi rutangirwaho ubufasha ku bigendanye na leta ndetse hakaba hariho ibigendanye no kubinjira n'abasohoka.

Aha ngaha ni mu ihema. Iri hema rikaba ryicayemo abantu babiri bari imbere bari imbere ya mudasobwa bameze nk'abari kureba ibikorwa byo kuri murandasi. Ndetse n'inyuma yabo hakaba hari abantu bagiye babakikije benshi.

Uyu nguyu ni umunara muremure, hirya yawo hakaba hari inyubako, uwo munara ukaba wifashishwa mu ihuzanzira kugira ngo usakaze ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ku rubuga rwo kuri murandasi, rukaba ari urubuga rw'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe abakozi n'imirimo bya leta, aha ngaha akaba ariho haba n'amatangazo aranga akazi.

Aha ngaha ni ku rubuga rw'ikigo gishinzwe uburezi bw'ibanze bwo kuri murandasi. Aha ngaha bakaba berekana uburyo abanyeshuri bagomba kwiga bifashishije ibikoresho by'amashusho ndetse na radiyo, bakiga abanyeshuri bari iwabo.

Aha ngaha ni ku rubuga nkoranyambaga rwo kuri murandasi, hakaba hariho amagambo menshi, bakaba bameze nk'abarimo barashakira abantu akazi.

Aha ngaha hari icyapa ndetse hagaragara nk'ahantu hacururizwa ibyokurya ndetse hakaba hamenyesha ko mo imbere harimo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ndetse ku buntu nta kiguzi.

Ahangaha hari ikizingo cy'urusinga rwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ndetse urusinga rukaba rusa umukara.

Aha ngaha ni ahantu hari inzu mu byukuri izi nzu zikaba ari iz'imiturire, hakaba hari n'ibiti ndetse hakaba hari n'ipoto rirerire, ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Iyi ngiyi ni inyubako, iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo bugeretseho hejuru, imwe imwe igeretse ku yindi ndetse imbere hakaba hari n'igiti cyiza cy'imbuto.

Aha ngaha ni inzu ndetse aha imbere ukaba ari umuryango munini mugari wo mu mabara yirabura ndetse uru rugo rukaba rufite na nimero yarwo iruranga, iyi nzu ikaba ikikijwe n'ishyamba inyuma yaho.

Aha ngaha hari inyubako ifite isakaro ry'amabara y'umukara, hakaba hari n'ibiti bitanga umwuka, ndetse hakaba hari n'igiti kinini kifashishwa mu kunyuzwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo ziyakwirakwize mu baturage.

Aha muri iki cyumba kirimo udusanduku tune ndetse tukaba duhurizwamo insinga z'amashanyarazi, aha ngaha akaba ari mu cyumba gihurizwamo izo nsinga, hakaba ari na ho bacungira umuriro.

Aha ngaha ni hafi y'inzu ndetse hakaba hari imashini y'ifashishwa n'ibigo by'amashanyarazi kugira ngo yongere umuriro kugira ngo ukwirakwire mu baturage hose ufite imbaraga.

Hari inyubako ndende, hirya yaho hari ipoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ndetse ku ruzitiro rw'inzu hakaba hari ibiti bitanga umwuka mwiza.

Iri ngiri ni ipoto, rikaba ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w' amashanyarazi binyuze mu nsinga kugirango ugere mu baturage, mu bice byinshi bitandukanye.

Aha ni mu muhanda nyabagendwa ukaba ukikijwe n'inyubako ifite uruzitiro rurerure ndetse hakaba hari n'icyapa cyerekana ko imbere hari ibitaro harimo haranyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Ipoto rinini riri ku muhanda, rikaba ririho itara ritanga urumuri iyo hamaze kwijima. Mu rwego rwo kongera umutekano mu muhanda.

Iri ngiri ni ipironi rinini cyane rikaba ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hifashishijwe insinga ndetse iri ngiri rikaba ryifashishwa mu kuwukura ku rugomero.

Amapoto abiri ateganye ndetse hagati hakaba hateretseho icyuma cyifashishwa mu kongera umuriro, kugira ngo ukwirakwizwe mu baturage benshi kandi vuba.

Aha ngaha hari ibiti ndetse hari n'inzu hakaba hari n'itara rirerire ryo ku muhanda, rimurikira abantu mu gihe cy'ijoro kugira ngo hakomezwe gukazwa umutekano bagende nta rwikango.

Aha ngaha hicaye abantu benshi ndetse aha ngaha uko bigaragara, ni ku kigo nderabuzima, hakaba haje abaturage bashobora kuba bafite indwara zitandukanye, baje kwivuza ndetse imbere hakaba hahagaze umuganga.

Ahangaha uko bigaragarira amaso ni mu kigo nderabuzima. Ndetse hakaba hari n'umuntu urimo uragendamo hakaba hari n'inyubako nziza hakaba ari n'ubusitani mu mbuga yaho.

Aha ngaha hari inyubako zubatswe nkizo mu bitaro, hakaba hari ubusitani buteyemo ibiti bikiri bitoya bizajya bituma hakomeza kubaha umwuka mwiza.

Ahangaha hari abagabo barimo baragenda ndetse inyuma hari n'abagore ndetse ahahatu uko bigaragara mu kigonderabuzima harimo n'inyubako ikaba ari inyubako yagenewe ababyeyi bahagaze n'imodoka y'imbangukiragutabara.

Hano hari imodoka yitwa imbangukiragutabara, ikaba yifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze bwo kugeza abarwayi ku bigo nderabuzima, mu gihe bafashwe n'indwara mu buryo butunguranye.

Aha ngaha ni mu marembo y'ikigo nderabuzima ndetse aha ngaha imbere yaho hahagaze ibinyabiziga byinshi ndetse akaba ari ku bitaro bya Muhima.

Ahangaha ni ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, hari umugabo urimo uraza anyuze mu nzira yabugenewe itwikiriye ku buryo umuntu uhanyura atanyagirwa cyangwa se ngo izuba rimugereho. Aha hantu hubatse nko kwa muganga.

Ahangaha ni ahantu hashobora kuba hatangirwa ubufasha hari abicaye ndetse hari abahagaze imbere y'iyi nyubako yanditse imibare cumi na kabiri, hirya cumi na gatatu, hashobora kuba ari kwa muganga cyangwa se ahandi hantu hatangirwa ubufasha butandukanye.

Hano nk'uko bigaragazwa n'icyapa kiri mu mabara y'ubururu ni mu kigo nderabuzima, aho batangira gufasha, hazwi nk'aho bita mu ibagiro, hari abantu bameze nk'abaje bahagana ndetse hakaba hari n'inyubako nziza zikeye.

Aha ngaha mu bykuri hubatse inyubako hirya y'umuhanda, ndetse hakaba hameze nko kwa muganga, ko hahagaze imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi.

Aha ngaha hari abantu ndetse harimo abari kubyina abandi bavuza ingoma mu bigaragara iri ni itorero ribyina ndetse hakaba bari bitabiriye igikorwa cyo mu nkiko gacaca.

Umugabo wambaye imyenda y'abantu bakora mu rukiko bazwi nk'abacamanza. Imbere ye hakaba hari indangururamajwi akaba ari gutanga imbwirwaruhame.

Abantu batatu bicaye, umwe ari kwandika ndetse n'abandi imbere yaho hari amakayi, bambaye utuntu ku rutugu turiho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hakaba handitseho komite imbere hakaba hahagaze umuntu, bashobora kuba ari abayobozi bo mu nzego runaka.

Aha ngaha ni mu nzu mberabyombi, hicaye abantu bambaye impuzankano z'umukara, ndetse n'udupfukamunwa, ibigaragara ikaba ari imyambaro yambarwa n'abacamanza ndetse imbere hari uhagaze afashe ku ibendera ry'u Rwanda, akaba ari kurahira.

Aha ngaha hari abagabo babiri umwe akaba yambaye impuzankano y'abashinzwe umutekano undi akaba hari uwuzwi nka Fatakumavuta akaba ari umunyamakuru ufunzwe ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye.

Ahangaha mu bigaragara hari abantu benshi bahateraniye ndetse bicaye nk'abari mu nama ndetse imbere hakaba hari n'amazi yo kunywa meza.

Uru nguru ni urupapuro rukaba rwanditseho amwe mu mategeko aboneka mu igazeti y'u Rwanda ,hakaba hari ingingo zitandukanye ndetse bikaba byanditse no mu ndimi ebibyiri zindi zitari Ikinyarwanda.

Aha ngaha uko bimeze, ni bantu bicaye mu rukiko, hari uyu wambaye umukara ushinzwe kuburanira uyu nguyu wambaye impuzankano z'imfungwa n'abagororwa.

Hano mu rukiko ndetse akaba ari ahantu abantu baburanira mu gihe habayeho icyaha ku buryo bakemereza icyaha cyangwa se bakagihakana mu gihe basanze harimo uburiganya. Hakaba hicayemo abacamanza babiri ndetse uhagaze akaba ari umwavoka.

Abangaba bambaye impuzankano z'umukara n'akantu k'umweru, abagaba ni abacamanza bakaba ari bo baca imanza ku byaha biba bitandukanye.

Aha ngaha ni ku rupapuro rwanditseho amategeko y'u Rwanda ku ngingo zitandukanye aboneka mu igazeti y'amategeko ya leta y'u Rwanda.

Aha ngaha hicaye abantu benshi, bakaba bambaye impuzankano y'imfungwa n'abagororwa, bakaba barimo barakoresha murandasi, bakoresheje mudasobwa ndetse inyuma hakaba hahagaze n'umucungagereza ubarinze.

Aha ngaha ni imbere y'inyubako ndende, ikorerwamo ubucuruzi, hakaba hakorwamo n'ikigo cy'imari cya Zigama. Kaba hanahagaze imodoka y'abashinzwe umutekano, yo mu mabara y'umweru, ndetse n'umukara.

Aha ngaha ni abantu bambaye impuzankano nk'abantu bashinzwe gutabara mu gihe ahantu hibasiwe n'inkongi y'umuriro, kuko bafite ibikoresho bizimya umuriro byabugenewe kandi bakaba baba baranabitojwe kubikora.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa. Inyuma hakaba hari inzu nini, igenewe ubucuruzi cyangwa se ikaba ituwemo n'abantu. Hakaba harimo haragendamo n'umugabo umwe ndetse hirya ye hakaba hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari ukaba ukikijwe n'amazu maremare y'ubucuruzi ndetse hakaba hahagaze n'abashinzwe umutekano mu muhanda babiri bakaba bafite n'ipikipiki bagendaho bifashishwa mu gukomeza gucunga umutekano, kugira ngo abanyarwanda tugire umutekano usesuye wo mu muhanda.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari kikijwe n'inyubako ndende ndetse hakaba hahagaze abagabo babiri bashinzwe umutekano wo mu muhanda nk'uko impuzankano yabo ibigaragaza ndetse bakaba bafite n'ipikipiki.

Aha ngaha ni mu nyubako hakaba hari igikoresho cy'amabara atukura, cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe yatatse ahantu.

Iki ngiki gifashe ku gikuta, kiri mu mabara y'umutuku, ni igikoresho cyifashishwa mu guhangana n'inkongi y'umuriro, mu gihe yatatse inyubako igahita ihazimya itarangiza ahantu henshi.

Aha ngaha ni ku nyubako ndetse ikaba iriho umurindankuba wifashishwa mu kurinda ko hari ibintu byangizwa n'inkuba mu gihe ikubise.

Hagaze abagabo babiri bakora mu kigo cy'abashinzwe umutekano mu ishami ryo kuzimya umuriro, bakaba bari kuzimya inyubako yari yafashwe n'umuriro.

Aha ngaha ni mu nyubako hakaba hari ibikoresho by'umutuku byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe inyubako yatatswe n'umuriro.

Aha ngaha ni hafi y'umuhanda nyabagendwa ku mbuga y'inyubako ndende hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse hakaba hahagaze n'imodoka ntoya y'umweru harimo haragendamo n'abantu.

Ahangaha ni mu muhanda. Umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse hirya hari n'inyubako. Harimo haratambukamo umuhungu ndetse hahagaze n'ushinzwe umutekano.

Ahangaha uko bigaragara ni ahantu imodoka zihagarara. ndetse hakikijwe n'ibiti hakaba hari n'ikigega cy'amazi, hakaba hari imodoka ntoya y'ikamyo neti y'umukara, ndetse ikaba ari imodoka y'umutekano.

Ahangaha hahagaze umugabo wambaye impuzankano z'abashinzwe umutekano ndetse bakora mu rwego rwo kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, akaba arimo arazimya muri iyi nyubako.

Hano ni mu muhanda mugari haragendwamo n'ibinyabiziga hazengurutswe n'inzu ndetse inyuma hari n'igiti. ndetse hari n'imodoka irimo iraza ikaba ari imodoka ishinzwe ubutabazi bwo kuzimya inkongi y'umuriro.

Aha ngahai ni kubitaro bya porisi biherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali bikaba biri ku muhanda ndetse bikaba bikikijwe n'ibiti bituma haba umwuka mwiza.

Hano ni mu muhanda mu kayira k'abanyamaguru ,barimo baratambuka ndetse imbere gato hakaba hari n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda . Bakaba bacunga umutekano kugira ngo tugende mu muhanda tumeze neza nta rwikango, bakaba banafata ibinyabiziga bitujuje ibisabwa.

Hahagaze abantu batandukanye abakuze ndetse n'abana batoya. Hari abashinzwe umutekano ndetse barikureba ibintu biri hasi ku gitambaro gihari.

Hano ni ahantu hateraniye abantu benshi, mu byukuri baje kureba umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame, akaba ayobayoboye u Rwanda kandi neza mu mahoro.

Hateraniye abantu benshi ndetse batandukanye, hano imbere umuntu uhari uri kubyina akaba yisize amabara atandukanye bigaragara ko ari ay'ishyaka.

Aha ngaha hari abaturage benshi ndetse aba abaturage bakaba bateranyirijwe hamwe, bitabiriye igikorwa cy'ishyaka ryabo kuko bafite ibyapa ndetse n'impuzankano y'ishyaka.

Aha ngaha ni abantu bahagaze. Mu by'ukuri bameze nk'abari bitabiriye igikorwa cyateranyije abantu hamwe cya leta, inyuma yabo hari amahema, ndetse hari n'umugabo wambaye impuzankano y'imyenda yo mu rwego rushinzwe umutekano.

Hano ni abaturage bari gukora urugendo, ndetse bakaba barimo baramamaza umukandida, bikaba bigaragara nk'aho hari mu bihe by'amatora.

Ahangaha ni mu nzu mberabyombi ndetsekaba yiciwemo n'abantu mu bigaragara bari mu nama. Hakaba harimo n'ibyuma by'ikoranabuhanga, bigaragaza amashusho y'ibintu bari kuvugaho.

Aha ngaha ni ahantu hateraniye abantu benshi ndetse hakaba haje umukuru w'igihugu ariwe nyakubahwa Paul Kagame akaba ari kumwe n'umugore we Jeannette Kagame.

Ahangaha hari umugore wambaye indorerwamo z'amaso ndetse akaba yicaye ahantu bigaragara ko hari mu nyubako ikoreramo leta itanga ubufasha butandukanye ku baturage inyuma hakaba hari idarapo n'ikirangantego cy'igihugu.

Uko bigaragara uyu nguyu ni mugore akaba yicaye mu ntebe. Uyu mugore akaba yambaye indorerwamo z'amaso ndetse bigaragara nk'aho ameze nk'umuyobozi wicaye mu biro.

Aha ngaha hari umugore ufite ikaramu ameze nk'uri kwandika ku mpapuro, imbere ye hakaba hari abantu bafotora bari kumufata amashusho.

Aha ngaha ni ahantu hateraniye abayoboke b'ishyaka rya FPR ndetse bakaba baje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo.

Aha ngaha ni umugore wicaye. Imbere ye hari ikirangantego cy'u Rwanda, yicaye mu ntebe y'umukara, ibigaragara ashobora kuba ari umuyobozi.

Aha ngaha hahagaze abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'umugabo umwe, bakaba bafashe ku ibendera ry'igihugu bakaba bari kurahira.

Aha ngaha ni mu muhanda munini, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse urimo uragendwamo n'imodoka nini itwara abantu mu buryo rusange, inyuma hakaba hari n'amapikipiki.

Aha ngaha ni mu muhanda ndetse ukaba urimo imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, imbere y'aho hakaba hari amapikipiki imwe itwaye umuntu indi ntawe itwaye.

Umuhanda mugari harimo imodoka iri mu mabara y'umweru, itwara abantu mu uburyo bwa rusange ariko bakeya, hakaba harimo haragendwamo n'amapikipiki ndetse n'abantu, umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwamo. Hakaba harimo haranyuramo ipikipiki itwara imizigo . Umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitangaho umwuka duhumeka.

Mu muhanda harimo imodoka itwara abantu muburyo bwa rusange ariko ntoya, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse ikaba yacanye amatara, bigaragara ko butangiye kwiragi ndetse hakaba harimo n'urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibindi binyabiziga.

Aha ni mu muhanda nyabagendwa uzengurukijwe n'ibiti ndetse hakaba harimo n'imodoka ntoya yigisha abantu gutwara imodoka kugira ngo babashe kubona uruhushya rubibemerera.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Hano ni mu muhanda mugari, umuhanda hakaba harimo haragendamo ibinyabiziga bibiri, umukara ndetse n'indi y'ikamyoneti, bigaragara ko itwaye umuzingo.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa ndetse aha imbere hari ikamyoneti yo mu mabara y'umweru amapine ni umukara ndetse hakaba hanakikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka mwiza.

Aha ngaha uko bimeze ni mu muhanda mugari umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza. Uyu muhanda ukaba urimo ipikipiki itwara imizigo ndetse hakaba harimo n'ikamyoneti ndende cyane y'ubwoko bwa makuzungu n'ivatiri y'umweru.

Uyu muhanda ni munini kandi ni mugari. Urimo uragendwamo n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa makuzungu, cyo mu mabara atukura ikunda kwifashishwa mu gutwara amabuye ndetse n'imisenyi, ikaba yatwara n'indi mizigo iyo ariyo yose. Hakaba hakikijwe n'ibiti.

Aha ni mu muhanda mugari. Hakaba haparitse ibinyabiziga byinshi byiganjemo ibitwara imizigo ndetse aha ngaha hakaba ari ahazwi nka Nyabugogo.

Uyu nguyu ni umuhanda, umuhanda mwiza ukikijwe n'ibiti bitanga umwuka ndetse harimo haragendamo ikamyoneti nini yagutse itwara ibicuruzwa byinshi ibijyana ahantu hamwe ibivana n'ahandi inyuma yaho hari amapikipiki ndetse n'amagare n'izindi modoka nyinshi.

Ahangaha ni mu muhanda nyabagendwa, urimo uragendemo ipikipiki nziza, ndetse imbere hakaba hari n'umuhanda ukata ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ndetse ukaba unegereye umuhanda w'inkomane, aha ngaha hakaba harimo haranyuramo ipikipiki ntoya ndetse n'amavatiri menshi, uyu umuhanda ukaba ari mwiza cyane.

Ahangaha ni mu muhanda mugari ukikijwe n'ibiti, ndetse harimo haragendamo imodoka nini itwara abagenzi. Ikaba ibavanye ahantu hamwe igiye kubajyana ahandi.

Umuhanda nyabagendwa, harimo haragendamo ipikipiki y'amapine atatu itwara imizigo ndetse n'andi mapikipiki abiri atwara abantu bisanzwe n'igare, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti.

Aha ni mu muhanda nyabagendwa umuhanda ukikijwe n'ibiti hakabarimo ikamyoniti ndende yo mu mabara atukura ikaba itwaye musenyi wo kubakisha.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa. Urimo uragendwamo n'abantu ndetse hakaba harimo haragendamo n'ikamyoniti, itwaye isakaro ndetse hakaba hariho hagendamo n'ipikipiki ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza.

Aha ngaha ni ku muhanda nyagendwa, akaba arimo amapikipiki ndetse hakaba hari n'ipikipiki iriya itwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umuhondo, ikaba ari ipikipiki ikoresha amashanyarazi, ikaba ari nziza cyane kuko itangiza ikirere.

Aha ngaha ni mu muhanda , hakaba haparitse imodoka ikamyoneti itwara imizigo, ndetse ni mbere y'aho hakaba haparitse indi , umuhanda ukaba ari nyabagendwa.

Hahagaze amapikipiki menshi akaba yifashishwa mu gutwara imizigo yoroheje ndetse itari na myinshi cyane, kuko abagizwe n'amapine atatu.

Hano ni mu muhanda mugari ndetse hagaragara urujya n'uruza rwiganjemo amapikipiki hakaba harimo n'ipikipiki itwara imizigo. Ndetse imbere hakaba hari n'inyubako ndende, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye.

Ahangaha ahandi mu muhanda nyabagendwa ndetseba hameze nk'ahamanuka harimo haranyuramo ikamyoniti itwaye imizigo y'umweru ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye kwari kunyurwamo n'abagenzi barimo baritambukira.

Aha ngaha ni mu muhanda munini kandi mugari harimo haranyurwamo ikinyabiziga cy'igare ndetse n'indi modoka nini itwara abagenzi muburyo bwa rusange, iyi modoka ikaba ari nziza kandi irihuta cyane.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa ndetse harimo imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyoneti, ikaba itwaye amabuye yifashishwa mu bwubatsi bw'inzu.

Hano ni mu muhanda mugari kandi munini, Ukabukikijwe n'ibiti ndetse akarimo haragendamo imodoka y'ikamyoneti nini itwara imizigo ndetse ikaba itwaye n'umuzigo muremure.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari akaba ari umuhanda nyabagendwa, ukaba uriho imodoka y'ikamyoneti ntoya y'umweru n'indi ndende iri imbere, bikaba birimo biragenda bikora urujya n'uruza mu muhanda munini kandi mugari.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari ndetse hakaba harimo haragenda mu ipikipiki n'imodoka ndende yo mu bwoko bwa makuzungu, ikaba itwaye ibicuruzwa byinshi nk'uko bigaragara.

Aha ngaha mu muhanda nyabagendwa. Hakaba haparitse ikinyabiziga cyitwa igare. Cyifashishwa mu gutwara ibintu byoroheje, ndetse ikaba inanatwara abantu. Harimo haragendamo n'ipikipiki.

Aha ngaha ni ahantu hahagarara imodoka zitwara abagenzi, akaba ariho zibategerereza kuko urabona ko hahagaze imodoka nyinshi zitwara abantu buryo bwa rusange. urabona ko ari n'abantu benshi barimo baragenda baje kuzireba ngo zibajyana aho bagiye.

Aha ngaha ni mu marembo y'imodoka nini kandi ngari, yifashishwa mu gutwara abantu benshi mu buryo bwa rusange. Akaba hishyurwa hakoreshejwe ikarita ntabyo guhererekanya amafaranga mu ntoki.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibiti byiza ndetse n'amazu, hakaba harimo hagendamo imodoka y'ikamyoneti nini ikaba itwaye ibintu ibijyanye ahantu.

Aha ngaha bigaragara ni mu mujyi wa Kigali, aha ngaha akaba ari ahantu hanyura abantu gusa hatagenewe ibinyabiziga, haba hakikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka ndetse hakaba hari n'inyubako ndende nziza cyane.

Aha ngaha hateraniye abantu benshi, ndetse higanjemo n'abana, hari n'amabendera y'ibihugu bitandukanye, ndetse hakaba harimo n'abanyamahanga, inyuma yaho hakaba hari inzu ndende, y'umuturirwa munini.

Aha ngaha ni ku kibuga gikinirwa umupira w'amaguru. Ndetse mu kibuga harimo abakinnyi barimo barakina umupira w'amaguru, hakaba harimo n'umuntu ushinzwe imisifurire, uba uyoboye umukino.

Ahangaha ni ku kibuga kinini kandi kigali, kikaba hari ikibuga cyifashishwa mu gukina umupira w'amaguru. Ikibuga kikaba gikikijwe n'ibiti.

Ahangaha ni mu muhanda mugari ndetse ushamikiyeho n'undi uhinjira. Kuri uwo muhanda harimo haragendamo ipikipiki ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka duhumeka.

Ahangaha ni m'umuhanda hiryaho hari inzu ndetse hakaba hari n'icyapa cyo m'umuhanda gikozwe m'ubwoko bwa mpande eshatu, kikaba ari icyapa kiburira abayobozi b'ibinyabiziga k'imbere hari umuhanda ufite akadundo.

Iki ngiki ni icyapa gikoreshwa mu muhanda. Iki cyapa kikaba gikurikizwa n'abayobozi b'ibinyabiziga, urwego rwo kugira ngo kibayobore bagende neza.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari, mu buryo hakaba hari icyapa cyerekana ko ari mu Karere ka Rusizi, hakaba hari ishyamba rya Nyungwe, nko ku muhanda hanakikijwe n'ibiti byiza.

Aha ngaha hari icyapa gikozwe mu rwego rw'uruziga, kikaba ari icyapa kibuza kikaba kibuza ko nta gare ryemerewe kugera ahantu nk'uko binanditse mu magambo hanze ari mu rurimi rw'amahanga.

Iki ngiki ni icyapa cyifashishwa mu muhanda, kikaba ari icyapa kibuza, kikaba cyerekana ko nta muntu wemerewe gukata ibumoso bwe. Kikaba cyifashishwa n'abayobozi b'ibinyabiziga kugira ngo hakumirwe impanuka.

Iki ngiki ni icyapa gikozwe mu buryo bwa mpande eshatu, imbere kikaba gifitemo ibara ryera rikikijwe n'iry'umutuku, kikaba kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga mu muhanda kugira ngo hirindwe impanuka bitewe n'iki cyapa gisobanura.

Iki ngiki ni icyapa cyifashishwa mu muhanda nyabagendwa. Kikaba gikoreshwa kugira ngo kiyobore abayobozi b'ibinyabiziga, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Aha ngaha ni ku muhanda, mu buryo bw'umuhanda, hari icyapa kinini cyerekana ibyerekezo bitandukanye, Akanyaru, Huye, Muhanga, ndetse no mu cyerekezo gikata ibumoso, kijya Ruhango na Kinazi.

Aha ngaha ni mu muhanda, hirya gato mu kuboko kw'ibumoso hakaba hari icyapa cyerekana ko aha hantu hadahagararwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose kitemerewe kuhahagarara.

Ahangaha ni mu muhanda nyabagendwa, ku ruhande rw'iburyo hari icyapa kibuza kikaba cyerekana ko nta kinyabiziga na kimwe cyemerewe guhagarara aha hantu, uko byaba bimeze kose.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda kikaba ari icyapa cyerekana ko aha hantu hahagararwa n'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Iki ngiki ni icyapa cyo ku muhanda cyo mu bwoko bwa mpande eshatu. Ndetse iki cyapa kikaba kiri mu byapa biburira abayobozi b'ibinyabiziga bakoresha umuhanda...

Aha ngaha ni mu mujyi hari inyubako ndende harimo haragendamo n'ibinyabiziga bikora urujya n'uruza rutandukanye hakaba hari n'icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kubara imodoka hifashishijwe uburyo bw'urumuri bw'amabara atandukanye.

Iki ngiki ni icyapa cyifashishwa mu muhanda. Icyapa kikaba cyerekana abayobozi b'ibinyabiziga ko aha hantu hahagararwa n'imodoka zagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange,

Hano ni mu muhanda, ukaba ari nyabagendwa ukikijwe n'ibiti ndetse hakaba hari n'icyapa cyerekana ko ari mu karere ka Rusizi.

Ahangaha han ni mu muhanda mugari, ukikijwe n'ibiti byinshi, ndetse n'amatara yo ku muhanda, kaba ari mu Karere ka Muhanga, hirya y'umuhanda hahagaze abaturage benshi, ndetse hari kuberamo isiganwa ry'amagare.

Hano ni ku muhanda nyabagendwa, ibumoso bwaho hubatse amazu atandukanye mu buryo bwa kijyambereba, akaba ari amazu meza ndetse yubatswe mu buryo bw'amazu y'imiturire.

Aha ngaha ni mu mbuga y'inzu, ndetse hafi yaho hari umuhanda hakaba hari n'ubusitani, imbere yaho hakaba hari n'inyubako igeretse, hakaba hari n'ahantu bacururiza ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Aha ngaha ni ku nyubako, inyubako ibigaragara ni inyubako ituwemo, ikaba mu imbere ifitemo ibiti bishobora kuba ari iby'imbuto, izi nyubako ziri ahantu heza.

Iyi ngiyi ni inyubako ndende, ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye iby'ubucuruzi ndetse hakaba hakoreramo ibigo bya Leta, cyangwa se ibidashingiye kuri Leta, hakaba haparitse imodoka nziza zirabura n'amapikipiki atwara ibicuruzwa.

Amabati y'inzu asize ibara ry'ikigina, ari impande y'igiti gifite amashami menshi. Hakurya hariho agasozi kariho amazu menshi yegeranye, asize amabara atandukanye, ndetse n'ikibuga cy'umupira cyitwa sitade Arena.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye amapikipiki ndetse n'imodoka. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse aha hakaba ari mu Giporoso.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari, umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi, hakaba hari n'inyubako imbere yaho, hakaba harimo haragendwamo n'ibinyabiziga akaba ari mu gace ka cumi na kabiri.

Iyi ngiyi ni inyubako yo guturwamo ndetse ikaba ari ndende, uburyo bugaragara, hejuru hakaba hariyo ibigega bibika amazi yo gukoresha.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari, ndetse aha ngaha hakaba hari n'imodoka irimo irava mu muhanda umwe ijya mu wundi, hari inyubako ndende ndetse hakaba harimo haragendwamo n'ipikipiki n'urujya n'uruza rw'abantu.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa ndetse imbere hakaba hari inzu nziza yo guturwamo, inyuma yaho hakaba hari ibiti by'imbuto bisoromwaho imbuto hanatanga umwuka, aha ngaha turi hakaba ari i Remera.

Aha ngaha ku musozi wirengeye, hari ishyamba rituma duhumeka umwuka mwiza ndetse hakaba hari n'inyubako nyinshi cyane zagenewe guturwamo.

Hano ni mu mujyi rwagati wa kigali. Hakaba harimo haranyurwamo ibinyabiziga bitandukanye mu rujya n'uruza rw'abantu. Imbere hari inyubako nini kandi nziza ikorerwamo mu bucuruzwi hazwi nko kwa rando.

Inyubako ndende ndetse zishobora kuba zikorerwamo ubucuruzi aha imbere hakaba hanakorerwamo ikigo gikora ubucuruzi ku mikino y'amahirwe.

Ahangaha ni mu cyanya cyahariwe guturwamo. Hakaba harimo amazu menshi atandukanye ndetse hakaba hari n'ishyamba rituma haba umwuka mwiza.

Inyubako nyinshi zigiye zikurikiranye ndetse zikaba zaragenewe guturwamo n'abantu, hakaba hazengurutswe n'ibiti ndetse mu kirere hakaba hanyuramo n'insinga z'amashanyarazi, izi nyubako zikaba zegeranye n'umuhanda.

Aha ngaha hari inzu nini cyane ndetse iyi nzu ikaba ari inzu mu bigaragara ikorerwamo ibikorwa byinshi cyane cyane iby'ubucuruzi ndetse ikaba ifite n'ubusitani imbere yaho.

Hano ni hirya gato y'umuhanda, hubatse inyubako ndende mbese ishobora kuba ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya leta cyangwa se iby'abikorera cyangwa se hakaba hanatuyemo abantu bacumbitsemo.

Inyubako ebyiri kandi ndende, imbere y'izi nyubako hahagaze abantu babiri ndetse imiryango ikaba ifunguye.

Aha ngaha ni mu cyanya cyahariwe guturwamo n'abantu, akaba hatuye amazu menshi kandi meza maremare, akaba akikijwe n'ibiti byiza bitanga umwuka ku buryo bahumeka neza.

Aha ngaha ni ku muhanda, w'igitaka. ndetse uyu muhanda ukaba wegeranye, n'inzu nziza zo guturwamo, ziherereye ahantu heza. Ndetse imbere hanateye indabyo, nziza zo mu busitani.

Iyi ngiyi ni inyubako igeretse, ni nyubako yo guturwamo n'abantu kandi iyi nzu ni nziza mu buryo bugaragara.

Ahangaha ni imbbere y'inzu ifite amabati atukura ndetse afata n'igikuta kizengurutse. Ndetse hakurya y'aho hirengeye hakaba hari inzu zituwe n'abantu, ndetse hakaba hateyemo n'ibiti bituma bahumeka umwuka mwiza.

Inyubako nyinshi cyane ndetse ndende zikaba ziherereye mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko mu mujyi hakaba bazengurukijwe ibiti byinshi bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Ahangaha ni ahantu hubatse inyubako eshatu ndende ndetse zikaba zubatswe mu buryo bwubakwamo inyubako z'inganda. Aha hantu hashobora kuba ari mu cyanya cyahariwe inganda.

Hano ni mu gace kahariwe guturwa, hakaba hatuye inzu zitandukanye nyinshi kandi nziza, hakaba hatuye n'izubatse mu buryo bwa kijyambere buzwi nk'inzu zigeretse.

Inyubako ndende ikaba izengurukijwe n'igikuta cyiza, ikaba iteyemo n'ubusitani, ikaba ari inyubako yo guturwamo yitwa Bwiza, ikaba ari inyubako iherereye mu Rwanda.

Hano ni mu muhanda mugari, uyu muhanda ukaba ufite n'ahantu ibinyabiziga binyura bizengurutse, harimo haragendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka zisanzwe.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda, hakaba harimo haragendamo imodoka ebyiri ntoya, iyo mu mabara y'umukara ndetse n'indi yo mu mabara yera y'umweru.

Uno muhanda urimo uragendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ntoya ndetse n'igare, hakaba hakikijwe n'ibiti, hirya kure yayo hari inyubako ndende y'amabara y'umweru.

Aha ni muhanda munini mugari, ukaba ubufite aho banyura bazenguruka. Uyu muhanda ukaba ufite n'ibisate byinshi, hakaba harimo haranyuramo amapikipiki akoresha ingufu z'amashanyarazi n'imodoka nyinshi cyane.

Uyunguyu n'umuhanda mugari, ndetse imbere yawo ukaba ukata mu byerekezo bibiri icy'iburyo ndetse n'icy'bumoso, umuhanda ukikijwe n'ibiti bitanga umwuka ndetse harimo hagendwamo n'amapikipiki.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa ndetse aha imbere hari imodoka itwaye imizigo ndetse iyo ngiyo ikaba itwara inyama zo kuribwa, hakaba harimo n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Aha ngaha ni umuhanda nyabagendwa ndetse akaba ari umuhanda w'ikiraro, unyura hejuru y'uwundi. Hakaba hanyurwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda mugari. Uyu muhanda ukaba ugizwe n'ibisate bibiri ndetse imbere hari n'aho banyura bazenguruka. Ukaba ukikijwe n'ibidukikije by'ibiti ndetse harimo haragendamo n'imodoka imbere.

Ahangaha ni mu muhanda mugari ndetse hakaba hari n'ikiraro hahagaze umuhungu umeze nk'ushaka kwambuka umuha hakaba harimo haranyura n'ibinyabiziga bitandukanye umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse akaba ari mu ijoro.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ndetse ku ruhande hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru gakozwe mu mabuye, ndetse hakaba hakikijwe n'ibiti bitanga umwuka, karimo n'urujya n'uruza rwiganjemo amapikipiki ndetse n'imodoka.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ukaba uzengurukijwe n'ibiti ku nkengero zawo, harimo haranyuramo imodoka ntoya iriho amabara y'umweru ndetse hakaba hari n'ahantu abanyamaguru bambukira.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitanga umwuka ndetse hakaba harimo haranagendamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu. Umuhanda ukaba wifashishwa mu buryo bwo koroshya ubuhahirane.

Ahangaha ni mu muhanda nyabagendwa, ndetse uyu muhanda ukaba ufite n'ahantu abanyamaguru bambukira, ahasizwe n'amabara y'umweru harimo haranatambukamo ibinyabiziga bitandukanye.

Aha ngaha ni mu muhanda mugari ndetse ukaba ugizwe n'ibisate byinshi, ukaba ukikijwe n'ibidukikije birimo ibiti, harimo haragendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse n'ikamyoneti.

Hano ni mu muhanda nyabagendwa. Uyu muhanda ukaba urimo ibisate byinshi bitandukanye ndetse ukaba urimo n'ubusitani hagati, butuma umujyi wa Kigali ukomeza gusa neza ku ruhando mpuzamahanga, hakaba harimo haranyurwamo amapikipiki ndetse n'amagare.

Uyu n'umuhanda mugari nyabagendwa ndetse ukaba ufite n'ahantu ibinyabiziga binyura bizengurutse harimo haragendamo ibinyabiziga byiganjemo amapikipiki ndetse n'imodoka ntoya.